Abayobozi b'ibigo runaka cyangwa se b'amashami atandukanye, ahangaha iyo bahuye bari gukora inama, biga ku kintu cyatuma ibigo bagiye bahagarariye cyangwa se amashami bahagarariye, yatera imbere ndetse agateza n'igihugu imbere.

Abayobozi bo mu ngeri zitandukanye ndetse n'ibibyiciro bigiye bitandukanye, bagiye bayobora ibigo bitandukanye, baba baje mu nteko bakaganira bose bakagira ibyo bigaho kugira baze kubasha kugira ibyo bageraho.

Aba ni abayobozi b'ibigo bigiye bitandukanye cyangwa se abashoramari, cyangwa abayobozi ba leta, gusa gahunda ya mbere iteranya abantu ni ukureba ukuntu bakangura ibikorwa byabo, kureba ukuntu barushaho gukomeza kwiteza imbere no guteza igihugu imbere.

Abangaba ni abayobozi b'ikigo kimwe runaka, bakaba bari kuganira bakoze inteko kugira ngo babashe kwiga ku mishinga y'ikigo bahagarariye icyo ari cyo cyose barebe ibyo bagomba guteza imbere kandi bigire umumaro.

Urunguru ni urubyiruko rurimo ruraganirizwa n'abakozi bamwe, bakaba bari kwiga ku bintu bitandukanye, ahangagaha turabonaho ingazi igaragaza uburyo urubyiruko rwatera imbere rukiteza n' imbere.

Abayobozi cyangwa se abahagarariye ibikorwaremezo runaka, cyangwa se ibigo runaka, baba barimo bafite ijambo baganiriza abandi, biga ku mishinga itandukanye yo guteza imbere impande zose, impande zabo no ku mpande z'igihugu.

Uru nguru ni urubyiruko rw'abanyeshuri bari kuganirizwa ku bintu bigiye bitandukanye, byatuma amasomo yabo bakomeza gutera imbere cyangwa se uko bazateza n'igihugu imbere.

Aba ni abayobozi b'ibigo bitandukanye baba bari kwiga mishinga myinshi cyane, ndetse bakaganira bakagirana inama y'ukuntu ibintu bimwe byakanguka, haba hari na polisi y'igihugu cy'u Rwanda bakaba bashobora kumvikana.

Aha ngaha haba harimo kwigishirizwa ku ikoranabuhanga, bagafata amashusho bakayashyira ku kikuta kugira ngo abe manini ubundi bajye biga ku ngingo zabo bakeneye babireba kandi bigaragara.

Iki ngiki ni ikigo gishinzwe itangazamakuru, aba ngaba ni bamwe mu bakozi bahagarariye icyo kigo baba batanga amakuru yo ku rwego rw'isi, ibintu byinshi bitandukanye byo hirya no hino ku isi.

Umuyobozi ahagaze imbere y'abo ayobora bakaganira ku bintu byinshi bitandukanye, bakaba bakora imishinga mishya cyangwa se iyo bafite bakareba ukuntu yakomeza gutera imbere kandi ikiyongera.

Abayobozi bo mu nzego zitandukanye barimo bajya inama ku mishinga itandukanye, bakagira kugira ngo babone uko bafatira hamwe umwanzuro bitewe n'ibyo baganiriye, byateza bamwe muri bo imbere cyangwa se bikaba byateza n'igihugu imbere.

Abayobozi b'ibigo runaka bitandukanye, baba bari kwiga ku mishinga myinshi itandukanye cyangwa se bari kwiga ku bibazo by'abaturage, bitewe n'aho bayobora cyangwa se aho bahagarariye, bakaza bakabyigaho bakajya inama, bakungurana ibitekerezo.

Abangaba ni abakuru b'ibigo bigiye bitandukanye cyangwa se abayobozi ba leta ,barimo bariga ku bintu bitandukanye ubundi bagafata amashusho bakayasakaza ku kibambazi akaba manini bakabisoma neza babireba kugira ngo babashe kubyigaho.

Aba ngaba bari abanyeshuri biga mu ishuri rikuru rya kaminuza rya iyerika, iherereye ku Gisozi, bari aho ku kibuga cy'umupira, bashobora kuba bari kureba umupira cyangwa se bagiye mu bindi biganiro bitandukanye.

Ahangaha abaturage bari baje mu nteko, ubundi ubahagarariye aba agomba gufata ijambo cyangwa se ikiganiro, akabaganiriza ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, bizabafasha gutera imbere no guteza imbere igihugu.

Uru ni urubyiruko rw'abana b'abanyarwanda ruba ruri kwiga ku bintu bitandukanye byinshi, yaba imyidagaduro cyangwa se ibindi bintu byabateza imbere, bakaza mu nteko bakagirana inama kandi bakagisha inama bakazigirwa.

Aha ngaha abaturage bakoze ikoraniro bateraniye hamwe, bagiye mu nama y'ibintu bigiye bitandukanye, bishobora kuba hari ibibazo bagiye bafite cyangwa se umuyobozi agiye kubaganiriza.

Aba ngaba ni abaturage b'urubyiruko ndetse n'abasheshe akanguhe b'ingeri zose, bari mu nama yo kwiga uburyo bateza igihugu imbere, nabo bakiteza imbere bagateza imiryango yabo imbere ndetse abana babo, n'abandi bantu batandukanye.

Aba ngaba n'abayobozi b'ikigo cya NPC Rwanda aha ngaha bari kuganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, byatuma bakomeza kwagura imishinga myinshi cyane ndetse no gukomeza gutera imbere no guteza igihugu imbere.

Uyunguyu ni umuyobozi u ahagaze imbere y'abaturage, akaba ayoboye cyangwa se ahagarariye ahangaha akaba arimo arabaganiriza, ku bintu byinshi bigiye bitandukanye byatuma bakomeza gutera imbere cyangwa se ko igihugu cyakomeza gutera imbere.

Ahangaha abaturage hashoboka kuba barimo barahabwa inkunga kugira ngo barebe ko batezanya imbere cyangwa se bakiteza imbere, inkunga y'amatungo magufi yo mu bwoko bw'ihene bari babahereje, kugira ngo umwe niyorora yoroze n'undi gutyo gutyo.

Aba ngaba ni abayobozi b'ibigo bigiye bitandukanye bari mu nama biga ku mishinga myinshi itandukanye, ituma bakomeza kwagura ibikorwa byabo, guteza imbere imishinga myinshi ndetse n'igihugu kikarushaho gutera imbere.

Abaturage abicaye barimo baraganirizwa ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, ukuntu bakomeza kwitwara, ukuntu bakomeza kwimakaza umuco na kirazira, ubundi bakarushaho gutera imbere no guteza igihugu imbere mu bintu byose.

Abangaba ni abayobozi ndetse n'abandi bantu batandukanye ahangaha baba bavuga ati reka turwanye ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ahangaha iri hohoterwa bagomba kurirwanya.

Uyu nguyu ni umutoza w'intore ahangaha aba arimo aratanga ikiganiro ku bintu byinshi bigiye bitandukanye by'ubutore, umuco kuntu kugira ngo urubyiruko rukomeze kugira umuco ndetse bakomeze kuba intore babe bakishakira inzira mu bintu byinshi bigiye bitandukanye.

Ni abayobozi b'ingeri zitandukanye, bari mu bikorwa byinshi byateza igihugu imbere, bari kwiga ku mishinga igiye itandukanye y'uburyo mpuzamahanga bakomeza kwagura u Rwanda ndetse bakaruteza imbere.

Aba ni abayobozi batandukanye bari kwiga ku mishinga igiye itandukanye yabafasha gutuma bakomeza gutera imbere, guteza igihugu imbere, guteza imbere imiryango yabo n'ahandi hantu henshi ku buryo bigaragara no ku ruhando mpuzamahanga.

Abayobozi bo mu ngeri zigiye zitandukanye baba bari mu nama y'ukuntu ibintu byakomeza kugenda neza, imishinga ikomeza kwaguka, abantu bakomeza gutera imbere n'igihugu kikarushaho gutera imbere ndetse no kumenyekana.

Iyi ngiyi ni inteko ngari nini cyane, irimo ingeri nyinshi zitandukanye z'abantu, urubyiruko abato n'abakuru, baba bari, bashobora kuba baje mu biganiro cyangwa se mu myidagaduro n'ibindi bintu byinshi bitandukanye.

Aha ngaha Kigali yacu, Kigali ikeye, abayobozi baba bateranye biga ukuntu bakomeza guteza imbere igihugu ndetse gifite umutekano cyane cyane abayobozi b'umujyi wa kigali bareba ukuntu bakomeza kubaho muri kigali yacu kandi kigali ikeye ifite isuku.

Aba ngaba n'abayobozi bo mu ngeri zigiye zitandukanye, baganira ku mishinga myinshi itandukanye yafasha abantu gutera imbere, yafasha abayobozi nabo gutera imbere ndetse n'imiryango yabo no guteza igihugu imbere.

Abayobozi b'ibigo bigiye bitandukanye, bakoze inteko y'inama, aho bari kwiga ku mishinga igiye itandukanye, bareba ibyabagirira umumaro kuruta ibitabagirira umumaro.

Uru nguru ni urubyiruko rwivanzemo abantu batandukanye, bategereje kureba serivisi nyinshi zitandukanye bari buhabwe cyangwa se inama bari bugirwe, bitewe n'ibyo bakeneye kandi bagiye gukora.

Abangana ni bamwe mu bakozi b'ibigo bitandukanye cyangwa se abakozi b'abarezi, abantu batandukanye bari mu nteko cyangwa se inama biga ku mishinga myinshi itandukanye yabafasha gutera imbere no kwiteza imbere.

Abayobozi b'ibigo bitandukanye runaka baba biga ku mishinga ijyanye n'ibintu byinshi bitandukanye bashobora kuba ari abacuruzi, bashobora kuba ari abarezi, bashobora kuba ari abanyenganda baganira ku bintu byateza imbere ikintu icyo ari cyo cyose bakora cyangwa bahagarariye.

Aha ngaha uyu nguyu aba ari umuyobozi cyangwa se uhagarariye abandi mu bintu runaka bitandukanye, aba afite indangururamajwi imbere ye ndetse na mudasobwa. Aba arimo aratanga ijambo cyangwa se atanga ikiganiro ku bintu byinshi bitangiye bitandukanye.

Aha ngaha ni ku ikoranabuhanga, baba bari mu nteko, abakozi b'ibigo bitandukanye bari kwiga ku mishinga myinshi igiye itandukanye, ishobora kuba yateza imbere ubwabo ndetse ikaba yateza igihugu imbere.

Uru nguru ni urubyiruko rushobora kuba rwaje ku muganda, igikorwa cy'umuganda gituma igihugu gitera imbere kandi n'urubyiruko rugakora umunsi rukaganira bakamenya ibintu byinshi ku bijyanye n'igihugu.

Aba ngaba ni ababyeyi bahagarariye imirimo imwe ya leta itandukanye, baba bari mu nama bari ku ndangururamajwi kugira ngo babashe kumvikana neza mu miganire iri hagati yabo n'abo babwira.

Uru nguru ni urubyiruko runini kandi rugari, baba bari gukora mu gihe aha ngaha hari kubera imyidagaduro cyangwa se urubyiruko ruri gukora nk'abakoranabushake mu bintu byinshi bitandukanye, bitewe n'ikintu kiri gukorwa.

Uyu nguyu ni umunara w'itumanaho udufasha kugira ngo itumanaho rikomeze kugenda neza rigera ku bantu bagiye batandukanye aho baba baherereye hose barimo barahanahana ubutumwa cyangwa se barimo barakoresha za murandasi.

Uru nguru ni urubuga rw'irembo, aha ngaha turabona icyangombwa cyo gutura, urubuga rw'irembo ushobora kujyaho ukarebaho icyangombwa cyawe cyo gutura ubundi ukishyura amafaranga bakakiguhereza.

Uyu nguyu ni umunara muremure kandi mugari, udufasha mu bijyanye n'itumanaho, aha ngaha tukaba tubona icyapa, icyapa cy'ikigo mu bigo bimwe bidufasha ibijyanye n'itumanaho cyitwa Airtel.

Uyu nguyu ni umunara wifashisha mu bijyanye n'itumanaho kugira ngo ribashe kwihuta rirangurure neza ribe ryumvikana neza umuntu wese uri kuvugana na mugenzi we aho yaba ari hose aho yabaherereye hose mu kumvikana kandi mutagenda neza mu mukaba mwakorana akazi k ku itumanaho.

Ikiganiro cy'ikigo cy'imisoro n'amahoro. Itariki ntarengwa yo kumenyekanisha no kwishyura avansi ya gatatu y'umusoro ku nyungu, ni tariki mirongo itatu n'imwe z' ukwa cumi n'abiri bibiri na makumyabiri na kane. Aha ngaha baba bari kukwereka itariki ntarengwa yo kuba yakwishyura imisoro n'amahoro.

Aha ngaha ni ku gitangazamakuru cy'u Rwanda, baba batumiye abakozi babiri bashinzwe imisoro n'amahoro, ikiganiro ku by'ingenzi mu misoro iri kuvugwa muri iyi minsi, aha ngaha baganira ku bijyanye n'imisoro.

Iyi ngiyi ni ikarita y'urugendo, hakaba hari icyuma ukozaho kugirango urebe niba amafaranga yawe yageze ku ikarita. Genzura neza ko amafaranga washyize ku ikarita yawe. Bayihita tape andi go cyangwa se kuzaho ugende, ukareba niba yagiyeho ubundi ukagenda.

Ahahanga baba bazanye serivisi nshya ku rubuga rw'irembo ikigo gitanga izi serivisi bakubwira ko ari minisiteri ya siporo icyiciro siporo n'amazina ya serivisi urayasoma uruhushya rwo kwacyira ibirori mpuzamahanga bya siporo n'ibindi bikurikira.

Uburyo bwo kwinjira, kugira ngo ubashe gukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye ku rubuga rw'irembo, ukaba wareba kwandikisha ibinyabiziga, kwandikisha ubutaka, kwandikisha abantu, n'ibindi bintu byinshi bitandukanye.

Uru ni urubuga rw'imisoro n'amahoro ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, aha ngaha barakwandikisha ukareba ibintu byinshi bigiye bitandukanye byo kwishyura imisoro ukareba n'iba nta myenda uba ubarimo uko waba waririnjije.

Aha nga ni mu nyubako nziza y'u Rwanda, ikinirwamo imikino y'amaboko, abatubona cyangwa se akaba mu mahanga, hari ibigo bigiye bifasha u Rwanda mu gusura u Rwanda bakatwamamariza, tukarushaho gutera imbere mu ruhando mpuzamahanga.

Ati menyekanisha ipatanti y'umwaka wose wa bibiri na makumyabiri na gatanu cyangwa igihembwe cya mbere, uyu munsi wishyure mbere y'itariki ntarengwa ya mirongo itatu rimwe z'ukwezi kwa mbere bibiri na makumyabirigatanu ahangaha wasura urubuga rwacu ukabandikira ubundi ukareba ibindi ukeneye kumenya.

Mu rwego rw'igihugu rw'imiyoborere bazana uburyo bushya bwo kwandikisha umuryango utari uwa leta ahangaha usaba urubuga rw'irembo ukarebamo ubundi ugakurikiza amabwiriza ukaba nawe wabyikorera byose.

Ubungubu ni uburyo bwo kwiyandikisha ahantu hatandukanye, ahangaha ushyiramo izina uzajya ukoresha ubundi ugashyiramo ijambobanga ukinjiramo.

Iki ni ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro. Aha ngaha baba bakwereka uko wabasha kwandikisha imisoro yawe, ugasura urubuga rwabo, wamara kurugeramo bakakwereka aho wandikisha, bashyiramo ibintu bitandukanye. Imyirondoro yawe no kohereza n'ibindi bintu byinshi.

Uyu nguyu ni umunara udufasha mu itumanaho, kugira ngo habeho gutumanaho kuri ubutumwa bugiye butandukanye, umuntu nabuhereza undi bumugereho, bakoresha za murandasi bikomeze kugenda bikora neza bitagenda bicikagurika.

Uko hamenyekanisha imisoro n amahoro y igihehembwe cya abasha kubikora neza.

Aha ngaha barakubwira ngo iminsi itanu ibura. Iki ngiki ni ikigo cy'imisoro n'amahoro aha ngaha aba ari itariki ntarengwa yo kuba bakishyura imisoro y'igihembwe cya gatatu, itariki mirongo itatu n'imwe zukwezi kwa cumi n'abiri bibiri na makumyabiri na kane, yishyure uyu munsi wishyuhe mbere yigi ntarengwa.

Iyi ngiyi ni imara ibasha kuba yadufasha ku buryo bujyanye n'itumanaho umuntu ari ahantu hatandukanye n'undi ari ahandi, ubundi bakabasha gukora icyo bita itumanaho agirana inama n'ukuntu bakangura ibikorwa byabo.

Iri ngiri ni irembo urubuga rw'irembo, urubuga nkoranyambaga ushobora kuba wakiyandikishaho ibintu bitandukanye, impapuro, ibyangombwa bikwemerera kujya mu bindi bihugu by'amahanga, bakaba bagufata amashusho bakayaguha n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Uyu nguyu n'umunara mwiza udufasha mu itumanaho, kugira ngo habeho kubasha guhererekanya ubutumwa mu mpande zigiye zitandukanye, ndetse no gukomeza gukora ubushakashatsi kuri za murandisi n'ahandi hantu hagiye hatandukanye.

Ahangaha ku bijyanye na minisiteri ya MoH, ahangaha baba bakubwira ibyo bagomba gukora wahamagara ku buntu: rimwe, rimwe, kane, cyangwa se icyenda, rimwe, kabiri. Bafite imbuga zindi wabandikiraho n'aho babarizwa.

Ikigo cy'irembo cyazanye ubundi buryo bushya bwo gukoresha iyi gahunda. Ikigo gitanga ubu buryo ni minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi. Icyiciro ni abinjira n'abasohoka, izina ry'igikorwa ni uburenganzira bwo kugera mu nkambi y'impunzi. Ahangaha ukeneye ubundi busobanuro wahamagara kuri icyenda, zeru ikenda ikenda.

Izingizi ni mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ebyiri zose ni imbuga wajyaho mu gihe ukeneye amakuru meza kandi yizewe cyangwa ukeneye kongera ubumenyi.

Iyi ngiyi ni inyubako ikoreramo uburyo bw'amabanki agiye atandukanye, uramutse ukeneye gufungura konti muri banki kugira ngo ujye ubasha kwizigama, uzigame amafaranga yawe, azaguteza imbere ejo cyangwa ejobundi mu gihe waba ugiye gukora imishinga.

Urunguru n’urubuga rw'irembo urusura ushaka kwiyandikisha ibijyanye no gukora impushya zo gutwara ibinyabiziga, wakwiyandikishaho bigakunda ukaba wakorera uruhushya rwawe.

Iki ngiki ni ikigo cy'imisoro n'amahoro, aha ngaha ushobora kwiyandikisha ukoresheje urubuga rwaho, ubundi ukinjiramo ukareba amabwiriza.

Uyu nguyu ni umunara udufasha ku bijyanye n'itumanaho kugira ngo hakomeze habeho gutumikana hagati y'abantu n'abandi bakomeze bakoreshe murandasi, bakomeze bakoreshe imbuga nkoranyambaga bigenda neza bidacikagurika.

Aha ngaha barakubwira umunsi mpuzamahanga w'umurimo. Ahazaza h'umurimo, intego dusangiye. Tariki ya mbere gicurasi, umwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri, minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo.

Menyekanisha ipatane y'umwaka wose ya bibiri na makumyabiri na gatanu, igihembwe cya mbere uyu munsi, wishyure mbere y'itariki ntarengwa ya mirongo itatu n'imwe z'ukwa mbere, bibiri na makumyabiri na gatanu. Sura urubuga rwacu ruriya ubundi ukurikize amabwiriza.

Iki ngiki ni ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, ahangaha barakubwira kwigaragaza bushake "uyu munsi ni wo wa nyuma wo kwigaragaza ku bushake, garagaza imisoro utamenyekanishije mbere ya bibiri na makumyabiri na gatatu ukurirweho amande n'inguzanyo/n'inyungu z'ubukererwe". Uyu nguyu niwo munsi wa nyuma tariki ntarengwa makumyabiri n'eshatu z'ukwezi kwa cumi bibiri na makumyabiri kane.

Aha ngaha barakumbwira ngo injiramo wishyure imisoro yawe y'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabir na gatanu, mbere y'itariki ntarengwa, uba ugomba kwishyura imisoro n'amahoro ubundi ntihagire imyenda usigaramo kujya bigende neza.

Aha ngaha ku rubuga rw'Irembo ushobora gukuraho icyangombwa kigaragaza ko utarashaka cyangwa utari wubaka urugo ukiri wenyine, ushobora gukanda kanyenyeri icyenda zeru icyenda urwego nawe wabyikorera.

Aha ngaha barakubwira ko gukoresha murandasi byemewe cyangwa se biri ku buryo bw'ubwisanzure ntayindi mbogamizi ibashije kubonekamo.

Urunguru ni urubuga rw'irembo wasura mu gihe ukeneye gukora, kuba wakiyandikisha gukora ikizam cy'uruhushya rw'kiciro cyisumbuye, aahangaha uba ufite ibisabwa urabisoma ugakurikiza amabwiriza, urubu ni urunguru warusura ubundi ukagenda ukabikora.

Uyu nguyu ni umwe mu bakozi b'ibigo runaka bitandukanye, arimo arigisha abandi baturage uburyo bakoresha mudasobwa, bitewe n'ibyo barimo barakoreraho biba byabagirira umumaro cyangwa se bikagirira n'igihugu umumaro.

Uyu nguyu ni umunara ufite ibikoresho byawo byose umunara kidufasha mu bijyanye n'itumanaho kugira ngo abantu itumanaho ribagereho ridacikagurika mu gihe umuntu arimo avugana n'undi bitewe n'aho aherereye.

Iri ni ipoto ririho inshinga z'amashanyara, kugira ngo ingo ziri hano hafi zibashe kugerwaho n'umuriro ku buryo bwiza kandi bugezweho, u Rwanda rugakomeze kurushaho gusa neza rufite urumuri kandi rutera n'imbere.

Iki ngiki ni icyuma gicaho umuriro w'amashanyarazi, aha ngaha iki cyuma nukibona uzatinye kuhegera kugira ngo utabasha kwishyira mu bibazo, kituzanira amashanyarazi kugira ngo buri wese amugereho neza.

Iki ngiki ni icyuma kiri ahantu hitaruye, baba bareberaho ibintu bijyanye n'amashanyarazi, amashanyarazi ari muri ako gace kugira ngo barebe ko afite imbaraga kuba abaturage babasha gucana urumuri rukabageraho bose hamwe.

Ibingibi ni ibinyabiziga bibiri by'ibiziga bine harimo agatoya ndetse n'inini isanzwe yo kugendamo bihagaze imbere y'ibyapa bibiri hari iki ngiki uzabona kiri mu ishusho ya mpande eshatu nukibona mu muhanda kikubwira ko ikorosi ry'ibumoso na kiriya cy'ubururu kivuga ngo hano hemerewe guhagarara.

Uyu nguyu ni umunara udufasha mu bijyanye n'itumanaho, kugira ngo itumanaho rikomeze kugenda neza kandi rigende ridacikagurika, umuntu mu gihe ar’ahantu runaka arimo aravugana n'undi ibintu bigende neza.

Iki ni icyapa gifite ishusho y'umuzenguruko, kikaba gifite umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara kinyuzemo akarongo kaberamye k'umutuku, aha ngaha barakubwira ngo uriya muhanda cyangwa se kujya muri kiriya cyerekezo ntabwo byemewe.

Ibi ngibi ni ibyuma usangaho insinga z'umuriro byohereza umuriro ahantu henshi hatandukanye, aha ngaha kugira ngo igihugu kigerwemo amashanyarazi kandi habeho hose habona.

Aya ngaya ni amapoto y'amashanyarazi, aha ngaha ingo ziba zituriye hano ziba zigomba kugerwaho n'umuriro gatanu kuri gatanu, ubundi igihugu kikarushaho kubaho kiri mu mucyo kandi gisa neza.

Ibyuma by'amashanyarazi, iki cyuma kiba kiriho umuriro ufite imbaraga kandi akenshi ujya ahantu kure hashoboka, ni ukibona ntuzahegere kuko uzaba uri kwishyira mu byago.

Iki ngiki ni ikinyabiziga kinini kandi kirekire, gitwara abaturage cyangwa se abagenzi bagiye mu mirimo itandukanye, cyangwa se bavuye muri iyo mirimo biriwemo, batashye. Tukabona n'aho bicara gihe bategereje ko ibinyabiziga biza kubajyana.

Ikingiki ni icyuma kiba kiriho umuriro cyangwa se amashanyarazi afite imbaraga, ikingiki nukibona ahangaha uzirinde kuhegera, kugira utaza kwishyira mu byago bigiye bitandukanye.

Turabona ikinyabiziga cyo mu bwoko bwa bisi dufasha gutwara abantu bagiye ahantu hagiye hatandukanye mu gihugu no mu nce z'igihugu zigiye zitandukanye zikadufasha mu ngendo zacu za buri munsi mu gihe turi gushaka imibereho n'ibindi bitandukanye.

Iki ngiki ni ikizingo k'insinga abantu benshi tukita ikizingo. Ahangaha iyo twakibonye tuba tuzi ko umuriro ugiye gukorwa amashanyarazi.

Ibijyanye n'umuriro w'amashanyarazi, kugira ngo amashanyarazi agere ku iterambere ukabona ko u Rwanda rusa neza.

Ibi ngibi n'ibyuma bitwara imisinga z'amashanyarazi ndetse bitwara n'imiriro, iki cyuma nukigeraho uzatinye kuhegera, kugira ngo utazahura n'impanuka zigiye zitandukanye, kidufasha gutwara imiriro ufite imbaraga ijya ahantu hamwe.

Iringiri ni ipoto ry'amashanyarazi ririho insinga z'amashanyarazi ziba zijyana umuriro mu mazu aba ari hano hafi, ndetse zikomeza zambukiranya n'izindi nsinga zigenda ahandi kugira ngo umuriro ujye ugera ku bantu bose.

Aha ni mu gaciro ka gisozi turabona umuntu urimo urakora isuku kugira ngo Kigali ikomeze gusa neza, ndetse n'u Rwanda rukomeze kubaho rukeye rufite isuku ku buryo bigomba kugaragara no mu ruhando mpuzamahanga, bikagaragara ko u Rwanda rukeye.

Ibi ngibi ni ibipangu bisanzwe by'abantu hakaba hari ipoto iriho insinga nyinshi zitandukanye, ikaba yohereza amashanyarazi mu mazu aturiye hano yose kugirango abeho ahantu habona.

Ibi ngibi ni ibyuma bikoreshwa ku mashanyarazi, ahantu bagiye gushyira urugomero rw'amashanyarazi afite imbaraga cyangwa se isoko y'amashanyarazi, ahantu bari buze gukura amashanyarazi bayajyana ahandi.

Uyu nguyu ni umuhanda, tukaba tubona n'ipoto imbere yawo, idufasha kujyana amashanyarazi mu nzu zigiye zitandukanye, kugira ngo, ingo zose zibashe gucana tube mu gihugu gifite urumuri kandi gikeye n'umutekano.

Aya ngaya ni amapoto y'amashanyarazi, akaba aba ariho insinga nyinshi zigiye zitandukanye, kugira ngo amazu aba ari hano, abashe kugerwaho n'amashanyarazi ku buryo bwiza kandi bworoshye, kandi bwizewe bufite umutekano.

Uru nguru ni urugomero rw'amashanyarazi, aha ngaha haba haturukamo amashanyarazi kugira agere ku bantu bose ndetse bariya ni bamwe mu bakozi bageze aha ngaha hari runo rugomero rw'amashanyarazi.

Umuhada ujya ahantu runaka hatandukanye twakaba tubona aho umugenzi uhagaze ku muhanda afite imizigo ategereye ibinyabiziga biza bikamujyana ahantu hatandukanye kuko u Rwanda ruba rwarateye imbere urahagarara bikakujyana.

Iki ngiki ni igipangu kiza giherereye ahantu runaka. Hanze yacyo hakaba hari amapoto abiri ariho insinga z'umuriro, insinga z'umuriro kugira ngo abaturage babashe kwegerezwa umuriro cyangwa se urumuri babe ahantu hareba neza kandi hakeye.

Aha ngaha turabona ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ikinyabiziga cyo mu bwoko bwa bisi gitwara abagenzi, ibinyabiziga bitwara imizigo mike cyangwa se myinshi, nkabona ipoto y'amashanyarazi kugirango n'umuriro ube ubariho gatanu kuri gatanu.

Uyu nguyu ni umurima uhinzemo ibihingwa byo kuzasarura mu gihe byaba byeze, ibi bihingwa bizwi nk'izina ry'ibigori, hakaba harimo ipoto ry'amashanyarazi, mu gihe ingo zituriye hano cyangwa se n'ahandi kugira ngo zibashe kugerwaho umuriro nazo zicane zibe ahantu habona.

Iki ngiki ni ikigo nderabuzima, ubasha kuzaho iyo ufite ubwisungane mu kwivuza, ukaza mu gihe ubuzima bwawe wumva wabyutse butameze neza cyangwa se umaze igihe wumva harimo ibibazo, ukaza bakagufasha.

Aha ngaha ni ku kigo nderabuzima, hari abaturage benshi ubona ko baje bamwe baje baherekeje bagenzi babo, abandi baza bizanye baje kureba ko ubuzima bwabo bwakongera kumera neza kuko hano barabafasha.

Iki ngiki ni ikigo nderabuzima ivuriro, aha ngaha haba hari abarwayi baje kwivuza kugira ngo ubuzima bwabo bwongere bumere neza, aha ngaha tukabona aho basuzumira, ukeneye kwisuzumisha kugira ngo barebe uko buhagaze, ni aha ngaha ubanza kujya.

Aha ngaha ni ku ivuriro iki kinyabiziga tureba cyitwa imbangukiragutabara, aha ngaha urugero, ushobora kuba uri mu rugo utari hafi y'ibitaro cyangwa se habaye nk'impanuka mu muhanda abantu batari buze gushobora kugenda bakagihamagara kikahagera cyihuse.

Iyi ngiyi ni inzu ishobora kuba ari ivuriro cyangwa se inzu yindi y'ubwishingizi runaka, cyangwa se aho bafashiriza abantu batandukanye, aberekana umuryango winjirwamo n'abagenda mu kagare.

Iki ngiki n'igikoresho twifashisha tuzimya umuriro mu gihe inkongi y'umuriro ishobora kuba yaguteye mu buryo bu butandukanye, ahangaha akiri ku ivuriro cyangwa se ku kigo nderabuzima ko ahangaha ntabwo kiba kigomba kuhabura.

izi nyubako nziza zigezweho zubatse ku buryo bw'iterambere batureba ahantu abanyamaguru bambukira mu gihe ugeze hano ukabona umunyamaguru witeguye kwambuka ugomba guhagarara utarenze uwo murongo wera ubundi umunyamaguru yamara kwambuka nawe ugakomeza.

Ikingiki ni ikigonderabuzima kiriho abaturage benshi bakeneye kureba uko ubuzima bwabo buhagaze n'abandi benshi barwaye harimo n'abagororwa bose baba baje ku kigonderabuzima.

Ikingiki ni ikigo nderabuzima cyangwa se ivuriro, ahangaha ni hantu uzaza utameze neza wumva ahantu hose waba wacitse intege cyangwa se byagenze gute mu mubiri, ubundi ugataha wumva umeze neza ufite imbaraga.

Iri ngiri ni ivuriro, tukaba tureba ahangaha hari icyumba cyo gutegerererezamo cya kabiri, nimero kabiri a zeru gatatu, mu gihe mu mugitegereje ko babafasha niho muba mwicaye mutegererereje.

Iki ngiki ni ikigo nderabuzima cyangwa se ivuburiro. Aha ngaha abaturage baje ku ivuriro kwivuza indwara zigiye zitandukanye, haba hari imodoka z'ubutabazi zishinzwe gutabara mu gihe cyihuse kandi gito.

Aba ngabo ni abakozi bashobora kuba baba basoje amashuri akenshi aba ngaba wasanga ari abacamanza, bafite ibendera ry'u Rwanda baba bagiye kurahira bakavuga imigabo n'imigambi yabo.

Ikingiki ni ikirango cyangwa se ikirangagantego cy'ubushinjacyaha bukuru, haba harimo ingabo hakaba ari mu bitabo ku neza ya bose, ahangaha niho uzagisanga ku bushinjacyaha bukuru.

Aha ngaha turabona inkiko gacaca, ikirango cy'inkiko gacaca kikaba kigaragaza mu gihe abaturage baba bagomba kwicara hamwe bakagenda bakaganira n'abayobozi, bakaganira nabo ubwabo ku giti cyabo ku bintu byinshi bigiye bitandukanye.

Umuyobozi mukuru w'igihugu ahangaha aba arimo aratanga ijambo, ijambo ryubaka abanyarwanda cyangwa se arimo araganiriza urubyiruko mu ibintu bijyanye no kwiteza imbere.

Uru nguru ni urupapuro rugaragaza urukiko rukuru, urugereko rwihariye ruburanisha ibyaha mpuzamahanga, n'ibyaha byambuka imbibi, aha bagaragaza dosiye, ndetse abaregwa n'icyaha baregwa.

Ahangaha umuyobozi ufite indangururamajwi arimo araganiriza abaturage ndetse n'abandi bayobozi, uyunguyu ni umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ruswa, kurwanya gutanga ruswa kugira ngo abantu bamenye ko atari byiza.

Abangab ni abagororwa ahangaha bari mucyo twita gacaca baba baje kuburanishwa, kumva ibirego baregwa bamwe bareba ko barenganurwa cyangwa se bikongera bikabahama.

Aha abana bagororwa tukaba tubona uwo umuntu mugenzi wabo ashobora kubagize ikibazo cy'uburwayi, cyo kuba batameze neza mu mubiri baramufata bakamutera bakamushyira mu ngobyi ubundi bakamujyana ku kumuvuza.

Aba ngaba ni abacamanza ahantu muzahurira ni hamwe mu rukiko mu gihe urimo urashinjwa cyangwa se uraregwa ibirego bitandukanye, abantu bazakuburanisha, abandi bakuburanire, aba ni abacamanza bazaca urubanza nyuma yo kumva ibyabaye.

Abangaba ni bagororwa ahangaha barimo baragenda hashoboka barimo bajyanwa ku rukiko ku rukiko rero ikintu baba bagiye gukorayo ni ukuburana ku bijyanye n'ibirego bashinjwa cyangwa se ibirego baregwa bakareba niba ibyaha bibahama cyangwa se barengana.

Ahangaha ni umuhanda munini mugari mu mujyi wa Kigali harimo umuyobozi ushinzwe umutekano, umupolisi w'igihugu cy'u Rwanda arimo araganira n'umuturage usanzwe, bashobora kuba barimo baraganira, amubaza ku bintu byinshi bitandukanye, aragusubiza iyo umubajije.

Iki ni gikoresho twifashisha tuzimya inkongi y'umuriro, mu gihe watewe n'inkongi y'umuriro ukakibona, wagifata ukacyifashisha, kandi mu mugihe ufite ibikorwa byawe ukora, ushobora kuba wakigura ubundi ugahora witeguye ko igihe inkongi y'umuriro izaza, uzarwana na yo.

Aba ngaba ni abakozi babyambariye bashinzwe kuzimya inkongi y'umuriro, aha ngaha urabona ko bari mu kazi kabo bashinzwe kandi bagakora neza, mu gihe inkongi y'umuriro yaguteye uzababona aribo baje kugutabara kuguha ubufasha.

Ahangaha turareba umupolisi w'u Rwanda yahagaritse ipikipiki ahangaha rero iyo aguhagaritse aba areba niba ufite ibyangombwa bikwemerera kugenda mu muhanda akareba niba ikinyabiziga cyawe cyujuje ibisabwa kugira ngo kibe cyagendera mu muhanda.

Iki ngiki ni igikoresho kidufasha mu izimya ry'inkongi y'umuriro mu gihe utewe n'inkongi y'umuriro iki ngiki ahantu harimo urakorera ni cyo cyagufasha kuzimya iyo nkongi cyangwa se kuyigabanya mu gihe ubundi bufasha bwimbitse butari bwakugeraho.

Aba ngaba ni abakozi babugenewe; barimo barakora ibijyanye n'amazi, aba ngaba mu gihe amazi yaba afite ikibazo cyangwa se nta mazi arakugeraho, aba ngaba barabigufasha cyane, ni bamwe mu bakozi b'ikigo gishinzwe kubikora.

Ibi ngibi ni ibikoresho byifashishwa mu gihe habonetse inkongi y'umuriro nk'iyi nzu ubugubu irashinganye kuko bino bikoresho mu gihe hano haramutse habonetse ikibazo cy'uko haterwa inkongi batiteguye byabafasha mu gihe baba bagitegereje ubundi bufasha bunini.

Ni polisi y'igihugu cy'u Rwanda iba ihagaze, hano ishobora kuba iri gufata amabwiriza y'ibintu bigiye bitandukanye ku kazi gakomeza gukorwa ndetse n'uko bakomeza gubana neza n'abaturage ndetse n'igihugu cyabo.

Iki ni igikoresho cyiza cy'ingenzi cyagufasha mu gihe icyo ari cyo cyose waba utewe n'inkongi y'umuriro yaba ije mu buryo ubwo aribwo bwose, ugifite wagifata ukacyifashisha ugahangana n'iyo nkongi mu gihe ubufasha bwimbitse bwaba butarakugeraho.

Abangaba abapolisi b'u Rwanda bari ku ipikipiki yabo basanzwe bagenderaho, abangaba bashinzwe umutekano wo mu muhanda, uzabona baguhagaritse mu gihe uyoboye ikinyabiziga mu mumuhanda, bakubaza niba ufite ibyangombwa bikwemerera kugenda mu muhanda cg se bareba niba nta yandi makosa waba urimo.

Iki ngiki ni ikinyabiziga cya polisi y'u Rwanda ishinzwe imigendere yo mu muhanda cg se umutekano wo mu muhanda, abangaba bazaguhagarika bakubaza ibyangombwa bikusaba, niba wemerewe kugendera mu muhanda cyangwa se nta kindi kibazo ufite ibyangombwa byawe.

Aha ngaha ni ku cyicaro cya polisi y'igihugu hakorerwa imirimo itandukanye, bakora ibijyanye n'impushya z'ibinyabiziga n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye waza ukabihakorera nta kibazo bagufa.

Uyunguyu ni umupolisi w'igihugu cy'u rwanda. Ahagaze ari mu nshingano z'akazi kagiye gatandukanye ahoga bagira inshingano nyinshi bijyanye kurinda umutekano w'igihugu ndetse n'uw'abaturage bacyo.

Iki ngiki ni icyapa kiranga ahantu ikigo cy'ubugenzacyaha giherereye kugira ngo ubashe kuba wahamenya cyangwa se ukaba wahamagara inimero zikurikira rimwe gatantu gatandatu cyangwa se gatu, gatanu rimwe kabiri cyangwa se kabiri zeru mirongo ine.

Ahangaha turabona amapikipiki menshi cyane atwaye abagenzi ndetse n'atabatwaye tukabona na polisi ishinzwe umutekano wo mu muhanda yahagaze imbere inyuma yabo hari kwambuka umunyamaguru, bashobora uba bategereje ko umunyamaguru yambuka cyangwa se ari ikindi kibazo cyabayeho mu muhanda gituma baba baretse kugenda.

Ikigiki ni igikoresho kirimo ibara ry'umutuku wakifashisha mu gihe watewe n'inkongi y'umuriro iki ngiki uramutse ufite akazi ukora ubucuruzi bwawe cyangwa se ibikorwa wiyubakiye wakigura ukacyahashyira kugira ngo igihe uzaterwa n'inkongi y'umuriro kizagufashe ku bijyanye n'ubutabazi.

Aha ngaha ni kuri polisi ushobora kuba wahasanga ubufasha bugiye butandukanye, ku cyicaro gikuru cya polisi bitewe n'ibibazo waba ufite cyangwa se gahunda waba ukeneye waza bakagufasha.

Iki ni ikirango kigaragaza ubutabera, ubwisungane, amajyambere. Aha ngaha iyi ngiyi aba ari nk'indahiro muba mugomba kugira ubutabera kandi mukisungana, ni bwo habaho kuba habasha kubaho iterambere.

Uyu nguyu ni umukuru w'igihugu Paul Kagame, aha ngaha yararimo ariyamamaza kuri iyindi manda, turimo turamwamamaza kugira ngo tuzongere tumutore yongere atubere umuyobozi wacu w'igihugu kandi twaramutoye ni umuyobozi.

Aha ngaha ushobora kuba ari ugutanga igitekerezo, iho akenshi uzinga urupapuro ugashyira mu gasanduku, gusa ibingibi ubwo biheruka twari turi mu matora y'umukuru w'igihugu wamara gutora uwo wifuza cyangwa ishyaka wifuza ukazinga ugashyira mu gasanduku.

Aha ngaha abayobozi b'ingerige zigiye zitandukanye bari mu nteko, mu nama y'ibintu byinshi bitandukanye bakaganira ku bijyanye n'aho bayobora ndetse n'ibintu byafasha Igihugu gutera imbere.

Aha ngaha hari mu gihe cyo kwamamaza, uyu ni umuyobozi yari arimo ariyamamaza kugirango ngo azabashe gutora abe yaba umukuru w'igihugu mu matora, gusa ntabwo ariko byaje kugenda, yaje gutsinda undi utari uyu.

Uyu nguyu ni umuyobozi mukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame, ari kumwe n'abandi bayobozi, abaminisitiri ndetse n'abayobozi Mpuzamahanga bandi b'ibihugu bitandukanye, baba bari kwiga ku mishinga y'ukuntu ibihugu byatera imbere kandi bigakomeza gukorana.

Iyi ngiyi n'Inteko y'abantu bahagarariye bimwe mu bikorwa bitandukanye, ababa bashobora kuba bahagarariye mu burezi abashobora kuba bahagarariye icungamutungo zitandukanye, abaturutse mu mpande zitandukanye bari mu nteko.

Ahangaha turimo turareba umubyeyi uri ahantu hari igitambaro kirimo ibara ryo ibendera ry'igihugu, aha ngaha hari mu matora, nyuma y'uko wabaga umaze kubona umuntu ugomba gutora waramutoraga, ugahina agapapuro ukakazana ukagashyiramo hariya.

Uyu nguyu ni umukuru w'igihugu, arimo aratanga ijambo ku baturage ayoboye, bitabiriye ikibuga cyose cy'amahoro bacyuzuye, baje kumva umukuru w'igihugu atugezaho ijambo ryiza kandi ritwubaka rikubaka n'igihugu cyacu.

Aha ngaha bari barimo baramamaza ishyaka rigiye ritandukanye rifite umuyobozi uba urihagarariye uba urimo ariyamamaza kugira ngo arebe ko yazatsinda mu matora, iri shyaka rero ry'ubururu, umweru ndetse n'umutuku, niryo ryavuyemo umuyobozi niryo ryatsinze.

Uyu nguyu ni umuyobozi w'u Rwanda w'ahambere witwaga Habyarimanaba akaba atakiri ku butegetsi, byararangiye yari umuyobozi wa kera w'ahambere habayeho byararangiye.

Gabo n'abayobozi bo mu ngeri zitandukanye barimo bararahira bafashe ku ibendera ry'igihugu kugira ngo bavuge imigabo n'imigambi yabo ubundi bazayihigure bakarahira indahiro zigiye zitandukanye.

Uyu nguyu ni umuyobozi w'irindi shyaka, hari abanyamakuru, abashinzwe gufata amashusho, yari arimo ariyamamaza kugira ngo arebe ko mu gihe cy'amatora yazatsinda akaba umukuru w'Igihugu ariko ntabwo yaje gutsinda ntabwo byaje gukunda.

Ishyaka ryarimo ryiyaamamaza mu matora uwari urihagarariye hanga harimo aratanga ijambo avuga ku bintu abazageza ku bantu mu gihe baramutse bamutoye, gusa mu matora ntago ariwe waje gutsinda yaje gutsindwa.

Ahangaha turabona abaturage bari ku murongo bari kujya mu bintu bigiye bitandukanye, bashobora kuba bagiye mu matora bashobora kuba bagiye kwakira ubufasha bundi bugiye butandukanye.

Ahangaha umuyobozi w'ishyaka arimo yari arimo ariyamamaza, kugira ngo mu gihe cy'amatora arebe ko yazatorwa akaba umukuru w'igihugu, ariko n'ubundi yariyamamaje twaramwamamaje, turanamutora, aratsinda.

Aha ngaha hari mu gikorwa cyo kwamamaza, uwari umukuru w'igihugu yari arimo ariyamamaza kugira ngo abashe kureba niba yakongera gutsindira, kongera kuba umuyobozi mukuru w'igihugu, gusa n'ubundi byarangiye aje kongera gutsinda.

Umuyobozi mukuru twemera Louise MUSHIKIWABO, ni umuminisitiri aba insakazamajwi zimuri imbere ari nyinshi z'ibinyamakuru bigiye bitandukanye kugira ngo babashe kuza gutangaza amakuru y'ibyo aribuze kuba yavuzeho.

Aha ngaha hari mu gihe cy'iyamamaza, iri ngiri ni ishyaka ryitwaga icyatsi, aba ngaba bariyamamazaga kugira ngo barebe ko umuyobozi urihagarariye wari uri kwiyamamaza kuba yaba umukuru w'igihugu yatsinda, ariko ntabwo byaje gukunda.

Umukuru w'Igihugu n'abandi bayobozi bagiye batandukanye, bamuri inyuma bamugaragiye baba baje kugira ibyo bigaho byadufasha kuba Igihugu cyacu cyatera imbere.

Iyi ni inteko y'abayobozi b'ibigo bitandukanye baba bafite n'amakarita aranga aho bakora, bari kumwe na nyakubahwa madamu umukuru w'igihugu Jeannette Kagame, baba bari kwiga ku bintu byinshi bitandukanye byagirira igihugu umumaro.

Iringiri ni ishyaka, icyapa kiriho ishyaka ryari ryambaye umutuku, ubururu ndetse n'umweru. Iringiri ryari riri kwiyamamaza kugira ngo barebe ko batsindira kuba umuyobozi w'igihugu ariko niryo shyaka ryavuyemo umuyobozi w'igihugu ariryo ryatsinze.

Abangaba n'abayobozi bagiye batandukanye bo mu gihugu. Baba bari mu nama, mbere yabo hari insakazamajwi cyangwa se indangururamajwi kugira ngo babashe kumvikana neza ku byo bagenda bavuga.

Ikingiki ni ikinyabiziga kinini gitwara ibintu byinshi kandi biteye ubwoba ibikomoka kuri peteroli bibyara umuriro cyangwa se bituma ibinyabiziga bigenda.

Aha ngaha turabona ishyirahamwe ry'abatwazi b'amapikipiki aha ngaha ni mu mujyi wa Kigali ndetse mu mujyi rwagati niho bakorera bakaba baba bari gutegereza ko babona abakiriya.

Batandukanye, tukaba tubonaho umuyobozi utwaye ikinyabiziga akicayeho, kugirango abashe gukomeza.

Iki ngiki ni ikinyabiziga kinini kidufasha gutwara imizigo myinshi cyane iremereye y'amatoni, kiyivana ahantu hamwe kiyijyana ahandi, mu gihe waba waranguye ibicuruzwa byawe bitandukanye iki ngiki cyagutwaza kikakugerezayo.

Iki ngiki ni ikinyabiziga cy'igare, hariho imizigo, umuntu ukiyoboye atwaye umuzigo ku buryo atagomba kukiyobora acyicayeho, ari kukiyobora agisunika kugira ngo umuzigo awugeze aho awujyanye.

Ibi ngibi ni ibinyabiziga bitandukanye tukaba tureba ikinyabiziga cya bisi itwara abagenzi idufasha mu ngendo zacu za buri munsi, tukareba amapikipiki ariho abagenzi n'atariho abagenzi ariho abayobozi bayo gusa bagenda bicayeho.

Iki ngiki ni ikinyabiziga cyo mu bwoko bwa bisi kandi bibi bitwara abagenzi benshi ku gihe cy'urugendo rumwe bajye ahantu hagiye hatandukanye bagiye mu mirimo yabo ahangaha iki ngiki kirimo kirajya nyabugo kiri guca munsi y'ikiraro.

uyu nguyu n'umuhanda urimo ibinyabiziga bya bisi, ariko imbere hari icyapa kikubwira ko kuhahagarara ntabwo byemewe, ubwo ngubwo, izi bisi turimo turareba hano ntabwo zemerewe guhagarara hariya kiriya cyapa kiri.

Iki ngiki ni icyapa gifite umuzenguruko w'umweru, ubuso b'ubururu, ikirango cy'umweru. Iki cyapa kikubwira ko aha ngaha ari aho ibi binyabiziga birebire bibasha guhagarara, gusa none iyi migozi itukura baziritseho ni ikubwira ko aha hantu hatemerewe gukorerwa igikorwa runaka.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, ibinyabiziga binini bitwara imizigo amatoni menshi ndetse n'ibitwara imizigo ifite uburemere buke ndetse n'amapiki atwaye abagenzi, akaba abajyanye ahantu hagiye hatandukanye.

Iki ngiki ni ikinyabiziga kinini kidufasha gutwara imizigo yo mu bwoko bw'ibisukika, nka esansi, cyangwa se peterori cyangwa se gazi n'ibindi bintu bigiye bisukika bidakomeye.

Akangaka ni akanyamitende k'ibiziga bitatu cyangwa se ibipine bitatu, kadufasha gutwara imizigo iva ahantu hamwe igiye ahandi itari myinshi cyane gusa na none iba ari iyo.

Iki ngiki ni ikinyabiziga gito gisanzwe k'ibipine bine, ibi n'ibinyabiziga bito bitwara abagenzi, bizwi nka tagisi ibi ngibi ni ishyirahamwe ryitwa yego, rifite ibinyabiziga bitwara abagenzi.

Uwo nguwo ni umuhanda, tukaba tubonamo abantu bikoreye imizigo ku mutwe wabo, tukaba tubona ibinyabiziga bitwara imizigo n'ibinyabiziga bitwara abantu, ndetse n'amapikipiki na yo atwara abantu, hakaba haba harimo urujya n'uruza rw'abantu.

Iki ni ikinyabiziga kinini kidufasha gutwara imizigo, nyuma yo gupakira imizigo mu kinyabiziga gitwara imizigo bagomba gushyiraho ihema bagatwikira, tukabona n'amagare ariho abantu bagiye bagenda ahantu hatandukanye.

Aha ngaha turabona umuhanda urimo ikinyabiziga gisanzwe kidufasha gutwara imizigo myinshi itandukanye, gishobora kuba gitwaye imizigo y'ubwubatsi cyangwag se n'ibyo kurya bitewe n'icyo waba wahashye, gusa mu gihe utwaye imizigo ugomba gutwikira hejuru.

Iki ngicyi ni ikinyabiziga kinini kidufasha gutwara imizigo, akenshi bidufasha gutwara imizigo y'ubwubatsi cg se imizigo myinshi wabavuye kurangura ibintu bigiye bitandukanye, akenshi ibi ngibi bishobora no kwambukiranya imipaka.

Akangaka ni akanyabiziga k'akanyamitende k'ibiziga bitatu kadufasha gutwara imizigo mikeya iringaniye mu rugendo rutaba ari runini cyane, tukabona n'ibindi binyabiziga bindi by'amabisi atwara abagenzi, atwara abantu gusa.

Aha ngaha turabona umuhanda uzamukwa ujya mu mujyi tukabonamo n'ibinyabiziga bindi bitandukanye n'ikinyamitende gitwara imizigo cy'ibipine bitatu iki nkiki kidufasha gutwara imizigo iva ahantu hamwe runaka ijya ahandi.

Aha ngaha ni ifatabuguzi ryo kuba wareba filime. Barakubwira bati: ryoherwa na filime z'ibiganiro mpuzamahanga mu Kinyarwanda mu masaha makumyabiri nane mu cyumweru. Tukabona utunyabiziga tw'utunyamitende dubara imizigo n'amagare ahari.

Turimo turabona ibinyabiziga bisi otobisi, hano hariyo turimo turabona batezeho amabuye aya mabuye aya mabuye rero afashe iki? mu gihe ikinyabiziga cyahagaze ariko hakaba hari ahantu hashobora ko hari ubuhaname kuba cyasubira inyuma bategaho amabuye kugirango agifate.

Ikinyabiziga cya bisi nini kidufasha gutwara abagenzi bagiye mu nce zigiye zitandukanye z'igihugu, kugira ngo babashe gukomeza gukora imirimo yabo neza.

Ibinyabiziga bidufasha mu ngendo nyinshi zigiye zitandukanye, ni ibinyabiziga bya bisi nini, byadufasha mu gihe ugiye ahantu hamwe hagiye hatandukanye cyangwa se ahandi, aha ngaha wagenda ukagendamo ukagerayo neza amahoro.

Kandi harimo abantu b'ingeri zitandukanye, ibinyabiziga binini bitwara imizigo, babona n'abanyamagare bagenda bayasunika batayicayeho, bagendera mu kayira kemewe k'abanyamaguru kugirango habasheho kuba umutekano wo kugendana mu mihanda.

Iki ngiki ni ikinyabiziga cyo mu bwoko bwa bisi zitwara abaturage cyangwa se abagenzi bagiye ahantu hatandukanye, tukabona n'umunyamaguru urimo uragenda gushaka amafaranga.

Umuhanda urimo umuyobozi w'ikinyabiziga k'ikinyamitende atwayeho umugenzi, barimo barajya ahantu runaka, umugenzi ashobora kuba agiye mu kazi cyangwa se avuyeyo, cyangwa agiye nko gusura abantu aba ngaba b'abayobozi b'ibinyabiziga, bakagufasha bakakugezayo.

Iki ni ikinyabiziga cyo mu bwoko bwa bisi zifasha gutwara abagenzi mu ngeri zigiye zitandukanye, mu nce zigiye zitandukanye z'igihugu kugira ngo u Rwanda rurusheho gukomeza gutera imbere ndetse n'abanyarwanda.

Ibi ngibi ni binyabiziga binini bya bisi zitwara abagenzi kandi benshi, ibinyabiziga bidufasha mu ngendo zigiye zitandukanye tuva mu ngo zacu tujya mu kazi cgangwa se tuva mu kazi twongera dusubira mu ngo.

Ni u muhanda urimo akanyamitende k'ibipine bitatu kadufasha gutwara imizigo n'ubundi gatwaye imizigo ndetse na nyirimizigo yicaranyeho n'umuyobozi, ni hariya nyiri imizigo aba agomba kwicara biremewe.

Ikingiki ni ikinyabiziga kinini gitwara imizigo ahangaha kiri ni mu muhanda uva Nyabugobo ukomeza, ashobora gukomeza akajya Kicukiro, cyangwa se akajya ku Gisozi, bitewe n'aho ashaka kujya izi modoka zidufasha gutwara imizigo, zikayitugezareza aho dukeneye.

Iki ngiki ni kinyabiziga cyo mu bwoko bwa bisi kidufasha gutwara abagenzi bagiye ahantu hagiye hatandukanye bava mu ngo bajya mu kazi cyangwa se bava mu kazi basubira mu ngo zabo iki ngiki kidufasha mu ngendo zacu za buri munsi.

Ikinyabiziga kidufasha gutwara abantu gusa kubavana ahantu hamwe kibajyana ahandi, abagenzi bagiye batandukanye kugira ngo barusheho gukomeza kunoza akazi kabo ndetse n'umuyobozi w'ikinyabiziga nawe akomeza kubasha gutera imbere.

Uyu nguyu ni muhanda urimo ikinyabiziga cy'amagare atwaye imizigo, imitobe abantu baba baguze kugira ngo bagende bayikoreshe, cyangwa se inzoga z'abacuruzi baba bararanguye.

Iki ni ikinyabiziga kinini cyo mu bwoko bwa bisi zitwara abagenzi, izi bisi zidufasha mu ngendo zigiye zitandukanye uva ahantu hamwe ujya ahandi cyangwa se uva mu kazi ujya mu kandi cyangwa se uva mu rugo ujya mu kazi n'ahandi henshi hagiye hatandukanye ndetse n'aya mapikipiki aradufasha mu ngendo.

Ikingiki ni kinyabiziga cyo mu bwoko bwa bisi itwara abagenzi bavuye nko mu ngo zabo bajya mu kazi, bavuye mu ntara imwe bagiye mu yindi kiradufasha.

Ni igare ritwawe riyobowe n'umuyobozi waryo ariko abari kubiyobora ataryicayeho, akaba atwayeho utuzigo tugiye dutandukanye atujyanye ahantu runaka bamubwiye kutujyana.

Utungutu ni utunyamitende usanga turi ku ishyirahamwe rigiye ritandukanye kugira ngo tube turi kuri gahunda imwe ndetse nta wubangamira mugenzi we, buri wese akora kandi akagerwaho neza ku murongo.

Turabona umuhanda ujya ahantu hatandukanye tukabona igare ritwaye umuzigo, umuyobozi waryo ari kuriyobora ataryicayeho, aha ngaha ibi biremewe gutwara umuzigo kugira ngo nawe arebe ko yabona amafaranga.

Ahangaha turi mu muhanda uva ahantu runaka hatandukanye kaba harimo ikinyabiziga kinini kidufasha gutwara imizigo ifasha gutwara imizigo ifite uburemere bwinshi kandi kikatugerezayo neza.

Iki ngiki ni kinyabiziga gitwara imizigo ariko kigatwara imizigo yo mu bwoko bw'ibisukika, gitwara imizigo yo mu bwoko bw'ibisukika, ibintu nka za peteroli za esansi n'ibindi bigiye bitandukanye.

Umuhanda urimo amapikipiki, ibinyamitende, by'amapine atatu, ibi ngibi bidufasha gutwara imizigo, biyivana ahantu hamwe biyijyana ahandi, kugira ngo nabyo bibe byabasha kubona ku mafaranga.

Uyu ni umuhanda urimo ikinyabiziga kinini cyo mu bwoko bwa bisi gitwara abagenzi bambukiranya imipaka, tukabona n'abanyamagare bagiye gushaka abagenzi, kugira na bo bashake ubuzima.

Uyu nguyu ni umuhanda urimo imodoka itwara imizigo bigaragara ko hano kuruhande hariho n'indi nzira yagutse y'abanyamaguru banyuraho kugirango bataza kugendera mu muhanda abanyamaguru babasha kuba bagendera muhanda mu mugihe nta nzira y'abanyamaguru bafite ariko kubera iriho bagomba kuyigenderaho.

Ahangaha ni ahantu heza kandi hasa neza waba ugenda uganira n'umuntu mugenzi wawe, urabona ko imbere yaho hari umuhanda ibinyabiziga bishinzwe kunyuramo harimo ipikipiki gusa hari ahandi tureba ay'icyo abantu benshi hanagenwa abantu benshi ibinyabiziga ntabwogo byemerewe kuhagenda.

Ahangaha ni ahantu heza ushobora kuza ugaturiza mu gutekereza ibintu bigiye bitandukanye, urimo urapanga imishinga yawe itandukanye ushobora kuba wahaza ukahicara ukaganira n'inshuti zawe n'ibindi byinshi .Ahangaha nta rusaku rw'ibinyabiziga wakumva kuko ntibyemewe kuhanyura.

Iki ni ikibuga kiberamo imyidagaduro gukora imyitozo ngororamubiri uramutse ukeneye gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo umubiri wawe ubashe guhora umeze neza kandi ufite ubuzima buzira umuze iki ni ikibuga wazaho uramutse ukunda no gukina imipira waza .

Ikingiki icyapa kiri mu ishusho y'urukiramende, gifite umuzenguruko w'umutuku n'umweru, gifite ubuso bw'umweru ikirango cy'umutuku ndetse n'umukara, ahangaha iki cyapa nuhagera kirakubwira ngo ntabwo ibiziga byemerewe kuhahagarara cg se ibinyabiziga.

Aha ngaha turabona umuhanda uhagazeho ipikipiki, gusa aha ngaha ihagaze iki cyapa kivuga ko utemerewe kuhahagarara. Ashobora kuba adahagaze na we agiye kujya mu kindi cyerekezo cy'umuhanda kuko hano ntabwo hemewe kuhahagarara.

Iki ngiki ni icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara harimo umugabo uri gukora imirimo y'amaboko. Icyapa nukigeraho uzamenyeko ahantu ugeze imbere bari gukora imirimo y'amaboko, bashobora kuba barimo kubaka umuhanda cyangwa se ibindi.

Ikingiki ni icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku n'ubuso bw'umweru. Ahangaha kizakubwira ko mu gihe uri kugenda muri uyu muhanda iburyo bw'umuhanda hari undi muhanda ushamikiyeho.

Iki ngiki n'icyapa kiri mu ishusho ya mande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara. Iki ngiki uzahura nacyo uri mu muhanda utwaye ikinyabiziga,, uzamenye ko ari ahantu hari inkomane, banyuramo bazengurutse.

Ndetse n'icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kikaba kiri kumwe n'icyapa kindi gifite ishusho y'urukiramende, ahangaha niho usanga bakubwira ngo abanyamaguru ntibemerewe kuhanyanyura. Iki cyapa nukibona uzamenye ko abanyamaguru batemerewe kuhanyura, ntihanyurwa kubanyamaguru.

Ikindigiki ni icyapa uzasanga mu muhanda, gifite ubuso busa n'icunga rihishije n'ikirango cy'umukara, ikingiki kizakubwira ko imbere yawe mu muhanda hariho aho umuhanda wegeranye cyangwa se ifungana ry'umuhanda.

Iki ngiki ni icyapa gifite ishusho y'umuzenguruko, kikaba gifite umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, ikirango cya mirongo itandatu. icyi cyapa iyo ukigezeho uba ugomba kumenya ko ugomba kugendera ku muvuduko, utari hejuru ya mirongo itandatu.

Iki ngiki ni icyapa uzahura nacyo mu gihe uri mu muhanda kiri mu ishusho imeze nka inyuguti ya ya mu gihe uri muri uyu muhanda ukabona ko ahantu ugiye kujya ari mu muhanda ukurira ibumoso, umuhanda w'iburyo ubwo ngubwo waba ari kugusubiza inyuma yaho urimo urajya.

Uyu nguyu ni umuhanda uhagazemo umunyamaguru ariko akaba ahagaze mu nzira abanyamaguru bagenderamo, ahangaha hari ibyapa bibiri hari icyapa kiguhereza ikaze ati urakaza neza mu gihugu cy'u Rwanda, hakaba n'icyapa kikwereka ko ugiye mu karere ka Rusizi.

Ikingiki ni icyapa kiri imbere y'umuhanda, ikingiki iyo ukigezeho umenya ko akangaka ni akarere ka Karongi. Iyo uhageze umenya ko winjiye mu kandi karere gatandukanye nako wari urimo, akangaka batwereka ni akarere ka Karongi nuhagera uzamenye ko ariho ugeze.

Iki ngiki ni icyapa uzasanga Kicukiro, aha ngaha bakwereka imihanda igiye itandukanye ndetse naho ijya. Bakwereka umuhanda ujya muri Kigali mo hagati, bakwereka umuhanda ujya Kagarama ndetse n'umuhanda ujya i Nyamata.

Iki n'icyapa gifite umuzenguruko w'umukara, ubuso bw'ibara ry'umuhondo n'ikirango cy'umukara, iki cyapa kizaba kikwereka ko mugihe urimo uragenda ibumoso bwawe hari umuhanda ukatirayo ndetse n'imbere yawe ugikomeje urugendo.

Iki ngiki ni icyapa kitwereka ko imbere hari ikorosi rikatira ibumoso kandi turongera tukabona inyubako icuruza imiti, mu gihe waba wumva utameze neza umerewe nabi mu mubiri ushobora kuba waza ukagura imiti bakagufasha ukongera ukamererwa neza.

Iki ngiki ni icyapa kiri mu ishusho y'urukiramende gifite umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru, aha ngaha niho bakubwira ngo uzabonamo inyuguti ya pa, aha ngaha bisi niho zihagarara.

Iki ni cyapa kiri mu ishusho ya mpande eshatu, kikagira umuzenguruko w'umweru n'utukura, kikagira ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara, iki ngiki nukigeraho uzamenya ko umuhanda urimo uragendamo, iruhande rw'iburyo, iburyo bw'umuhanda hashamikiyemo akandi gahanda gato.

Uyu nguyu ni umusozi uriho amazu agiye atandukanye, ushobora kuba ari umusozi uherereye ku Gisozi cyangwa se n'ahandi mu Rwanda, haba barimo baragira ngo barebe ko igihe kimwe naho hazatera imbere hagasa neza.

Aha ngaha ni mu gace bita Remera. Urabona ko hari amazu meza y'icyerekezo agezweho, wabasha kuza guturizamo, ukaza ugatura n'umuryango wawe mukamera neza mukishimana, inshuti n'abavandimwe na zo zikazajya zigusura.

Ahangaha turareba ibinyabiziga bigiye bitandukanye by'ubwoko bwinshi, ibyigishirizwamo gutwara ibinyabiziga, amazu y'ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye bitewe n'icyo waba ukeneye guhaha.

Iyi ngiyi ni inyubako nini kandi nziza wasangamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, wasangamo amafunguro meza, wasangamo ibyo kunywa biteguye neza, wasangamoryamo bwiza cyangwa se ibyumba byo gukoreramo inama bitewe n'icyo ukeneye.

Uyunguyu ni umuhanda mugari kandi munini ufite n'inyubako nini nziza ikorerwamo ibikorwa byinshi bitandukanye uyu muhanda turarebamo ipikipiki iriho umuyobozi wayo uyiyobora yicayeho.

Iyi ni inyubako nini kandi nziza iba yubatswe ku buryo bugezweho, inyubako usangamo ibikorwa bitandukanye, ahantu wasanga uburuhukiro bwiza, uburyamiro bwiza ndetse n'amafunguro meza. Inyubako iba ifite utuntu tujyana umuyaga ahantu hatandukanye.

Iki ni igipangu cyiza kirimo inzu nziza yubatse ku buryo bugezweho, hanze hakaba hariho ipoto iriho insinga zijyana amashanyarazi mu nzu zigiye zitandukanye, n'inyubako ziba zegereye ahongaho kugira ngo zose ziboneho umuriro.

Inyubako nziza zigezweho z'icyerekezo iyingiyi n'inyubako nziza ushobora kuba waza ukabamo ugaturamo; abaye ari n'inzu gukodesha ukaza haba harimo ibyumba byiza birimo uburiri bwiza ndetse ibyumba by'ubwogero byiza n'iby'ubwiherero wayibamo utekanye.

Aka ngaka ni agace runaka, karimo abantu batandukanye, harimo ibinyabiziga byo kugendamo by'abantu ku giti cyabo, bifashisha bagiye mu kazi cyangwa se gutembera n'amapikipiki aba ategereje abagenzi.

Iyi ni inyubako nini nziza ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, haramutse hari ibyo wakeneramo ushobora kujya kuyisura ukareba niba harimo ibyo wabasha gukenera mu kazi kawe ka buri munsi.

Aya ngya ni amazu arimo arubakwa maremare y'amagorofa, aba ahagaze amafaranga menshi, ariko nayo nyuma yaho aba asa neza akeye, agatuma igihugu kigaragara neza.

Iyi ngiyi n'inyubako y'amacumbi cyangwa se ahantu ho kuba mu gihe waba uri muri aha hatandukanye, wasanga ibintu byinshi byiza, uburyamo bwiza, ubwiherero bwiza, n'ibyo kurya byiza.

Aha ngaha ni Remera agace k'i Remera keza gafite amazu meza, baba bari kuranga kugira ngo abantu bajye bakomeza kurushaho kumenya ahantu runaka hagiye hatandukanye, kugira ngo n'uzaba uhari cyangwa se nuhagera utazayoba.

Izingizi ni inzu nini zubatse ku buryo bugezweho tukaba batureba igipangu cy'ibara ry'icyatsi gifunguye ndetse n'imbere hahinzemo ibyokurya bizwi ku izina ry'ibitoki mu gihe byeze bagasarura bakarya.

Iyingiyi ni inyubako nziza iri i Remera mu mujyi wa kigali ahahangaha wahasanga ibintu byiza bitandukanye ibyoku kurya byiza biteguye neza, ibyo kunywa byiza, biteguye neza, urubyiniro rwiza, ubwogero bwiza, wanakidagaduriramo uri kumwe na nabawe.

Uyunguyu ni umuhanda cyangwa se nimero y'umuhanda ugiye utandukanye kugira ngo bijye bidufasha mu ngendo zacu za buri munsi, niba wuba ugiye ahantu hatandukanye umenya ngo ngiye ku muhanda uyu n'uyu ubundi bikakorohera.

Uyu nguyu ni umuhanda uri mu cyanya k'inganda i Masoro, aha ngaha haba hari inganda zikora ibintu byinshi bitandukanye: "Inganda z'ibyuma, inganda z'ibitabora, inganda zikora ibyo kurya bitandukanye, inganda zikora amafarini".

Iyi ngiyi ni inzu nziza iherereye ahantu runaka hatandukanye, hashobora kuba ari inzu yo kugura waza mukumvikana bakakubwira ayo ugomba kwishyura, cyangwa se ari inzu yo gukodesha nanone ukaba waza mukumvikana ayo wajya wishyura ku kwezi.

Nguyu ni umuhanda mugari urimo ikinyabiziga, ikinyabiziga gishya kiza kigezweho k'iterambere, ibinyabiziga bigenda bidasakuza bituje bitanga umutekano.

Iyi ngiyi ni imihanda myiza isa neza, turimo tureba inyubako zifite amabanki, zifite ibikorwa bitandukanye washakira ubwishingizi, harimo ibinyabiziga bitwara abantu ukabona n'aho abanyamaguru bambukira, mu gihe uhageze uba ugomba guhagarara, abanyamaguru bakambuka.

Indi ni inyubako nziza igezweho, ifite ibirahuri by'umukara bifite amabara meza, isa neza yubatswe ku buryo iiterambere, rishobora kuba wasangamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi cyangwa se ugasanga ari amacumbi.

Aha ngaha ni ahantu heza h'uburanga wasanga amafunguro ateguye neza ku buryo bwa kijyambere, kandi atetse neza, ukaba wasanga ibyo kunywa byiza bikoze mu buryo bugiye butandukanye, imitobe cyangwa se ibisembuye n'ibidasembuye.

Uyu nguyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga binini, ibikururana n'ibindi bisanzwe, hakaba hari n'aho ibinyabiziga bijya kunyweshereza esanse kugira ngo bikomeze kugenda nta mbogamizi bidahagarara.

Umuhanda ujya nyabugogo uyu nguyu munsi y'ikiraro; ikiraro nacyo kikaba ari umuhanda mu mugihe uzamuka ujya ku muhima cyangwa se mu mujyi; ahangaha munsi cy'kiraro tukaba tubonamo amapikipiki arimo agendamo, agiye ahantu hatandukanye.

Uyu nguyu ni umuhanda mwiza uri ahantu hajyiye hatandukanye ari umuhanda ushobora kuba ujya kicukiro cyangwa se ahandi , tukaba tubona inzira abanyamaguru bambukiramo umuhanda . Hariya iyo uhageze hari umunyamaguru watangiye kwambuka cyangws se kwitegura ntago wemerewe kurenga uriya murongo wera.

Uyu ni umuhanda uri Rwandex, hahurira imihanda myinshi itandukanye, hakaba hari ibyapa bishyiramo kugenda mbere no kugenda nyuma, aho abanyamaguru bambukira, icyuma gishinzwe gufata amashusho mugihe ukoze amakosa, ugiye mbere y'umunyamaguru, cyangwa se ukoze andi makosa atandukanye.

Uyu nguyu ni umuhanda mwiza ufite ubusitani bwiza bw'ibyerekezo bigiye bitandukanye, tukaba tubonamo ibinyabiziga bitandukanye ibinyabiziga by'ibiziga, bine ndetse n'amapikipiki atwayeho abantu bagiye ahantu henshi hatandukanye.

Uyunguyu ni umuhanda munini kandi mugari ufite ibyerekezo bitandukanye, urabonamo amapikipiki atwawe n'abayobozi bayo bicayeho bagiye ahantu hatandukanye bashobora kuba bagiye gushaka abagenzi.

Iri ni ihuriro ry'imihanda myinshi igiye ijya ahantu hagiye hatandukanye, urabona ko hari n'ahantu heza ushobora kuba wajya kuruhukira, ukeneye ubufasha bugiye butandukanye, ushobora kuba wasanga amafunguro meza ateguye neza, ibyo kunywa byiza n'ibindi bitandukanye.

Ni ishusho y'umugoroba aha ngaha turahabona umuhanda urimo ibinyabiziga birimo kwihuta bigiye bitandukanye, tukahabona icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umweru ubuso bw'ururu n'ikirango cy'umweru kivuga ko hari inkomane banyuramo bazengurutse.

Iri ngiri ni ihuriro ry'imihanda igiye itandukanye uva ahantu hamwe ujya handi, tukaba tureba n'ikiraro cyambukiranya ujya ku Muhima cyangwa se ukomeza mu mujyi cyangwa se umanuka Nyabugogo n'ahandi hantu hagiye hatandukanye ikiraro cyiza kandi gikomeye.

Iyi ngiyi ni ni imihanda myiza kandi migari, irimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, aha ngaha hari ibinyabiziga turimo turareba, amapikipiki amwe ariho abagenzi n'andi ariho abayobozi bayo, bayoboye bicayeho gusa.

Uyu ni umuhanda uherereye ahantu runaka mwiza, ufite ubusitani bwiza bugezweho kugira ngo dukomeze kugira imihanda ikeye mu Rwanda ndetse ifite isuku n'umujyi ucyeye bigatuma bigaragaza igihugu neza.

Uyu nguyu ni umuhanda uri munsi y'ikiraro, kijya mu mujyi, kijya ku Muhima, umuhanda wo munsi y'ikiraro ukaba ujya Nyabugogo, cyangwa se ukavuyo bitewe n'aho wowe icyerekezo cyawe kirimo kirakujyana.

Uyu nguyu ni umuhanda urimo ibyabiziga bitandukanye, tukaba tubona amapikipiki atwaye abagenzi abajyanye ahantu hatandukanye mu kazi cyangwa se mu ngo zabo n'ahandi hantu henshi hagiye hatandukanye

Uyu nguyu ni umuhanda w'ibyerekezo bitandukanye, hari ukomeza ukaba wajya ku ishuri rya kaminuza rya Kigali rizwi nka KST cyangwa se ukaba hakaba hari n'ahandi hari icyapa cyitwa ntihanyurwa. Ubwo icyerekezo cyo kumanuka ntabwo kinyurwamo n'ibinyabiziga.

Uyu nguyu ni umuhanda ujya mu mujyi cyangwa se ku Muhima, iki cyapa cy'ubururu kiratubwira ko tugeze ku kiraro, iki ngiki ni cya kiraro kijya mu mujyi munsi yacyo hano harimo umuhanda w'abanyamaguru ujya Nyabugogo.

Iki ngiki ni ikiraro kijya mu mujyi cyangwa se ku Muhima, munsi yacyo kaba ari umuhanda ujya Nyabugogo, iki kiraro gicaho ibinyabiziga by'ubwoko bwinshi butandukanye ibiremeye, ibipima amatoni menshi.

Uyu nguyu ni umuhanda w'ibyerekezo bitandukanye, ahangaha barakwereka batweretse amashusho ku masaha y'umugoroba bacanye amatara yo ku mihanda, ahangaha turabona umunyamaguru uri aho abanyamaguru bashinzwe kwambukira mu mu gihe ubonye umunyamaguru bimeze kuriya ntago wemerewe kurenga uyu murongo w'umweru kugeza aho umunyamaguru asoje kwambukiranya nawe ukabona gukomeza.

Uyu ni umuhanda munini kandi mwiza, wubatse ku buryo bugezweho uherereye Kicukiro, hari ikiraro gikomeza uzamuka ku bigo by'amashuri bigiye bitandukanye, za mawunti Kenya n'ahandi hantu henshi hatandukanye, ubibona ko umujyi ucyeye.

Uyunguyu ni umuhanda mwiza ugezweho hakaba harimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, amapikipiki, ibinyabiziga byo kugendamo mu buryo busanzwe, waba ugiye mu kazi cyangwa se ugiye mu zindi gahunda zitandukanye.

Uyu ni umuhanda usanzwe ugendwamo n'ibinyabiziga ibinyamitende, amapikipiki amagare, ahangaha turareba ipikipiki iriho umuyobozi wayo wicayeho ndetse n'umugenzi uri inyuma amubaza ati;'' ese twagera ahantu aha na aha ubundi bakumvikana ibiciro''.

Uyu nguyu ni umuhanda munini, mugari, kandi mwiza, aha ngaha tukaba tureba aho abanyamaguru bambukira, harimo n'umunyamaguru arimo arambuka, mu gihe utwaye ikinyabiziga ukabona umunyamuguru arimo arambuka, ntabwo uba ugomba kurenga uriya murongo wera, kugira ngo umunyamaguru namara kwambuka nawe ubone kugenda.

Uyu nguyu ni umuhanda urimo ipikipiki iriho umuyobozi uyitwara ayicayeho ndetse n'indi imanuka yenda kugera ahantu hari imirongo yera, abanyamaguru banyuramo bari kwambukiranya umuhanda, iyo uhageze ntabwo uba ugomba kurenga uriya murongo kugeza abanyamaguru basoje kwambuka.

Iyi ngiyi ni imihanda myiza isa neza ifite amatara meza y'ibyerekezo bitandukanye, aho imbere tureba aho abanyamaguru bambukiranyiriza umuhanda, hariya iyo uhageze uri mu kinyabiziga ugomba kubanza ugahagarara umwanya muto, niba hari umunyamaguru urimo uragenda ukamutegereza akabanza agasoza.